Umuhanda w'igitaka iburyo bwawo n'ibumoso hari amazu agiye atandukanye. Ndahabona igipangu cy'amabara y'icyatsi ndetse iyo nzu isakaje amabati atukura. Hakurya y'umuhanda hari umukindo mwiza uri imbere y'igipangu cy'amatafari.

Hano haragaragara abantu babiri bagaragara bareba imbere n'abandi bari kubareba, abo bantu umwe afite indangururamajwi. Uwo mugabo yambaye agapira karimo umweru n'umukara n'ikote ry'umukara n'isaha ku kaboko, umugore uri impande ye yambaye ingofero y'ubururu.

Hano hari imodoka enye, imwe iri mu ibara ry'umweru, indi iri mu ibara ry'icyatsi, indi iri mu ibara ry'umutuku n'indi hirya iri mu ibara ry'umweru na none, hari amapoto y'umuriro, harimo abagenzi benshi, hari n'ibyapa n'inyubako.

Hano haragaragara inzu, inyubako ndende, yanditseho amagambo avuga asobanura ko iyi nyubako ibamo imfungwa, ndetse n'abagororwa, iyo akaba ari gereza ya Rubavu,

Hano haragaragara ikibuga cyigishirizwamo gutwara imodoka, hari imodoka eshatu zigishirizwaho inyuma yaho hari uruzitiro inyuma y'urwo ruzitiro hari ibiti birebire.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda cy'imodoka, gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hejuru hariho ihema risa ubururu, imbere y'iki kinyabiziga hari abagenzi batatu batwaye moto, abamotari, ku mpande ku kayira k'abagenzi hariho umugenzi umwe uri gutambuka, imbere hari inyubako z'amazu ndetse n'ibiti.

Hano haragaragara icyapa gikoreshwa mu mategeko y'umuhanda, kigaragaza ko ikinyabiziga kirakomeza imbere.

Hano haragaragara icyapa gikoreshwa mu muhanda, kigaragaza ko ikinyabiziga cy'ikinyamitende cyangwa igare ritemerewe kuhaca.

Ukoresheje ikorana buhanga byagutabara nyamara igihe utashye wibereye mu rugo ukabona nk’ agapantaro ukabura uko ukagura wenda kujya k’isoko ushobora kukwereka umuntu agahita akubwira kagurira aha n'aha ugahita ukakishyura agahita kakuzanira rwose.